Iyi ni ingobyi yifashishwa n'abaturage ndetse n'abandi ikabafasha mu gufata imbabare ndetse n'inkomere, ibavana ahantu hamwe ibajyana cyane cyane mu mbangukiragutabazi.

Ni abagabo babiri b'abaganga, aho bari gufasha umwana bigaragara ko afite ikibazo cy'uburwayi, bakaba bari kumwongerera umwuka kugira ngo adatakaza ubuzima, kandi abashe kubona ubundi butabera bataragira ikindi kibazo.

Iyi ni imodoka yifashishwa n'imbabare aho ibafasha mu kubakura aho bari ibajyana ku bigo nderabuzima bitandukanye ndetse no ku bitaro bikuru.

Aha ni ku kigo nderabuzima aho umuforomokazi ari gufasha ababyeyi guha abana babo inkingo, zikaba zikoreshwa mu kurinda indwara umwana akiri muto ndetse kugeza ageze mu myaka mikuru.

Buri bitaro ni ngombwa ko bigira imodoka yabugenewe yitwa imbangukiragutabara ifasha abarwayi kubakura ahantu hamwe ibajyana ahandi, kugira ngo babashe kubona ubuvuzi bwihuse kandi badatakaza ubuzima bitewe n'ingendo bakora.

Aba ni abaforomo, aho bari gufasha umurwayi kumuha umwuka, ndetse bakamufasha no kugira ngo ibyo arwaye abashe kubikira ndetse abone ubuzima bwiza.

Abaforomo n'abaforomokazi bafasha abaturage kubona ubuvuzi bw'ibanze, kandi bakanabafasha mu kwirinda indwara ndetse no kuzikumira, kugira ngo abaturage babashe kubaho neza.

Ibikoresho byifashishwa mu buvuzi ni kimwe mu bigomba gushyirwamo imbaraga by'umwihariko imodoka zabugenewe zitwara abarwayi, zibavana ahantu hamwe zibajyana ahandi.

Ibi ni ibikorwa by'ubutabazi byihuse aho bafasha abantu bahuye n'ibibazo bakabafasha mu kubategura hadakoreshejwe ibijyanye n'imiti ahubwo hakoreshejwe no kubafasha mu bijyanye no kwirinda ndetse no kubona ubutabazi bw'ibanze.

Aba ni abaganga aho bihutanye umurwayi bamujyana mu bitaro, aho agiye guhererwa ubuvuzi kandi bakaba bamushyize ku kagare gafasha abantu kubara ahantu hamwe kabajyana ahandi by'umwihariko abadafite imbaraga.

Ubuvuzi ni kimwe mu byahawe imbaraga, bityo rero tugomba gufatanya n'ababishinzwe barimo abaforomo, abaforomokazi ndetse n'abaganga mu gutanga amakuru mu bijyanye n'abarwayi kandi tugafasha ko bahabwa ubuvuzi ku gihe.

Abayobozi bacu bafite akazi gakomeye ko kutwigisha uburyo twirinda indwara, kandi n'abaturage tugomba gufasha abayobozi bacu kubumvira, ndetse tugafatanya no kugira ngo duhashye ibyorezo ndetse n'izindi ndwara muri rusange.

Aha ni ku kigo nderabuzima, aho abaturage, baje guhabwa inkingo z'abana babo, ibi bikabafasha ko abana bazakura neza kandi bagakora nta ndwara barwaye, ibi kandi bikabarinda no kugwingira.

Ibi ni ibitaro aho abarwayi bajya kwivuriza ndetse no guhabwa izindi serivisi zijyanye n'ubuvuzi zirimo kuvurwa, kurinda indwara ndetse no gupimwa kandi bagahabwa n'ingingo n'inkingo zitandukanye, ibi bikabafasha mu kugira ngo babone ubuzima buzira umuze.

Aya ni amahugurwa aho umuyobozi ari gutanga inyigisho ku baturage baje babagana, ibi bikabafasha mu kugira ngo bahabwe ubumenyi ku bijyanye n'indwara ndetse n'ubundi buryo bwo kwirinda.

Aba ni abagabo ndetse n'abagore aho bari kwiga ku bijyanye no guteza imbere ibigo bijyanye n'ubuvuzi ndetse bakigira hamwe uburyo ibyo bigo byatezwa imbere.

Abayobozi by'umwihariko bakora mu bijyanye n'ubuvuzi, bari ku mbangukiragutabara ifasha mu kujyana abarwayi bavana ku kigo nderabuzima cyangwa se ku bitaro bimwe, ibajyana gukora ahandi.

Iyi ni imbangukiragutabara aho igaragara ku bitaro ndetse no ku nzu zabugenewe zifasha abaturage kubona ubutabazi, ikaba ibafasha mu kubakura ahantu hamwe ibajyana ahandi by'umwihariko ku bitaro.

Abantu bose bagize ibibazo by'ubuzima basabwa kugera ku kigo nderabuzima ndetse n'ibitaro kugira ngo bavurwe kandi bahabwe n'ubundi bufasha, bityo rero natwe tugomba gufasha abakuze ndetse n'abana batabonye uburyo bagerayo kugira ngo tubafashe kugera ku kigo nderabuzima hakiri kare.

Aba ni abaganga harimo n'umuforomokazi, aho bari gupima indwara z'abaturage, ibi bikabafasha mu kumenya uko ubuzima bwabo buhagaze ndetse no mu gukomeza kwirinda no guhabwa imiti ku bafite ubwo burwayi.

Ibi ni ibitaro aho abarwayi baza gufatira serivisi zo kwa muganga zirimo guhabwa imiti kubagwa ndetse no kubyara. Ibyo bikaba bifasha abaturage kubaho neza mu buryo ubwo aribwo bwose ndetse no kubafasha kubaho igihe kirambye.

Aba ni abagabo bane aho umwe ari umurwayi undi akaba ari umuganga, aho bigaragara ko umurwayi aje guhabwa ubuvuzi kandi dusabwa kwihutira kujyana abantu kwa muganga iyo bahuye n'ikibazo icyo aricyo cyose.

Ubuvuzi ni kimwe mu bikorwa remezo Leta y'u Rwanda yashyizemo imbaraga, bityo tugomba gufatanya kurinda ibikorwa remezo byose, by'umwihariko ibijyanye n'ubuvuzi kuko biradufasha cyane mu buzima bwa buri munsi.

Iki ni ikigo nderabuzima aho hatangirwa serivisi z'ubuvuzi, burimo kuvura, gusuzuma ndetse no kurinda indwara, aha kandi hakaba hafasha abaturage mu kubona serivisi zose zijyanye n'ubuvuzi.

Aba ni abakozi bo ku kigo nderabuzima, aho bari gukaraba intoki, nka bumwe mu buryo bwo kwirinda indwara, ibi bikabafasha mu kwirinda indwara ndetse no kubona ubundi buryo bwiza bwaho bakorera hatekanye kandi kandi hatunganye.

Abayobozi bacu badufasha muri byinshi birimo kudufasha kwirinda indwara ndetse no kubona izindi serivisi zijyanye n'ubuvuzi, bityo natwe nk'abaturage tugomba gufatanya nabo kugira ngo bagere ku byo batwifuzaho.

Aba ni abaforomo ndetse n'abaforomokazi aho bigaragara ko bafite imiti, yifashishwa nk'inkingo ndetse no mu kuvura izindi ndwara zitandukanye kandi tukaba dusabwa gufatanya nabo kugira ngo twubake u Rwanda rwacu ruzira indwara.

Aba ni abaganga, abaforomo, abashinzwe umutekano ndetse n'abandi bayobozi, aho bigaragara ko bari gutanga impanuro ku bantu baje aho bateraniye mu bijyanye n'ubuzima ndetse no mu kubungabunga ibijyanye n'ibikoresho byo kwa muganga.

Abaforomo, abaforomokazi ndetse n'abaganga, badufasha mu kugira ngo tubone imiti yabugenewe kandi ikwiranye n'indwara turwaye bityo rero tugomba kubuwubaha kandi tugakurikiza inama batugira.

Ibitaro ndetse n'amavuriro bikora iyo bwabaga kugira ngo babashe guhabya ndetse no kuvura indwara bityo rero ni ngombwa ko abaforomo n'abaforomokazi bamenya neza indwara bari kuvura ndetse bakamenya n'ikibitera.

Aba ni abanyeshuri bari mu nzu zabugenewe zifashishwa mu kureba icyateye indwara, ibi bikabafasha mu kugira ngo bige neza ndetse bajye basobanukirwa indwara runaka.

Kumenya ibijyanye n'indwara, ni kimwe mu bifasha abantu, kumenya ubuvuzi bw'ibanze buhabwa umurwayi ndetse no kumenya uko abarwayi bafashwa bityo rero tugomba gushima, abakozi bakora mu bijyanye n'ubuvuzi ku bw'akazi gakomeye bakora.

Aba ni abanyeshuri bari kwihugura mu byo bakora bakaba bari kwiga isomo rijyanye n'ubumenyi bw'ibinyabuzima, ibi rero bikabafasha mu kwihugura mu bijyanye nabyo, kandi bikabibafasha nyine mu gusobanukirwa n'ibyo bari kwiga.

Izi ni inzu aho haberamo ibijyanye no gusuzuma ibyateye indwara, kandi ibi bigafasha mu gutanga umuti nyawo w'indwara runaka, kandi ibi bigafasha mu kurinda ndetse no kubona uburyo bwiza bwo kubona ibimenyetso by'indwara runaka.

Aba ni abanyeshuri bari aho bigira ibijyanye n'isomo ry'ubuzima bw'ibinyabuzima. Aho bari gukoresha ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu kureba ibinyabuzima bitaboneshwa amaraso.

Inkingo ndetse n'imiti. Ni bimwe mu bidufasha kurinda indwara. Haba twebwe ubwacu ndetse n'abana bacu. Bityo rero zigomba gutunganyirizwa ahantu heza, ndetse hatashyira n'ubuzima bwacu mu kaga.

Kurinda indwara bikorwa n'abantu benshi batandukanye by'umwihariko abaganga babasha gupima bakamenya icyo umuntu arwaye bagashyiraho n'uburyo bwiza bwo kwirinda ndetse bagashyiraho n'uburyo abantu bazajya bahabwa ubuvuzi bw'ibanze.

Uyu ni umwarimu uri gufasha abana biga mu mashuri y'incuke gukora imyitozo ndetse no kubigisha ibindi bijyanye n'ubuzima bwabo bwa buri munsi, ibi bikabafasha mu gutegura ejo habo hazaza ndetse no kwagura ibijyanye n'imitekerereze yabo.

Iki ni ikigo nderabuzima aho harimo ibitaro bifasha ababyeyi, aho babyarira ndetse bakaba bita ku bana bakiri bato, ibi bikabafasha mu kubona uburyo bwo kwivuza ndetse no guhabwa serivisi zose bakenera bakiri bato.

Abajyanama b'ubuzima, barimo abagabo n'abagore, bari kumwe n'abayobozi babo, aho bigaragara ko bahawe amatelefoni, azajya abafasha kuvugana n'ababakuriye kugira ngo babashe kurinda, ubuzima bw'abaturage.

Iri ni itangazo rigaragaza ko abantu bose bakwiye kuryama mu nzitiramibu. Ikaba ibafasha mu kwirinda Malariya kandi ikabafasha kugira ngo bagire ubuzima buzira umuze no gukomeza kubaho neza mu myaka yose baba basigaje ku isi.

Uyu ni umuforomokazi, aho ari mu mbwirwaruhame ahugura abaturage mu bijyanye no kwirinda indwara, kuvurwa ndetse no kubona ubundi butabazi bw'ibanze. Akaba afatanya n'abandi mu guteza imbere igihugu binyuze mu kurinda abaturarwanda indwara.

Iri ni irerero, aho bari kwigisha abana ibijyanye n'isuku, hifashishijwe kandagira ukarabe, ibyo bibafasha mu kwirinda indwara ziterwa n'isuku nkeya.

Abana by'umwihariko abari munsi y'imyaka itanu, baba bafite uko bitabwaho kandi bagahabwa byose bakeneye; harimo inkingo, gukina ndetse n'amashuri y'incuke ariho bita amarerero.

Abana ndetse n'abantu bakuru, dufatanyije n'ababyeyi bacu dukwiye kurinda by'umwihariko ubuzima bw'abana, binyuze mu kubaha urukingo rwabugenewe, tukitabira gupimisha inda ndetse no gutanga inkingo kw'abana bacu tuzifatira ahabugenewe.

Ibi ni ibitaro aho havurirwa abantu, hakaba hatangirwa serivisi zirimo kuvura, gukumira ndetse no gusuzuma indwara z'abantu kandi bikaba bifasha abana mu gutegura ejo heza habo heza.

Ibigo nderabuzima ndetse n'amavuriro ni byiza ko bitanga imiti yabugenewe ku ndwara runaka kuko iyo itanzwe ari myinshi igira ingaruka ku buzima bw'abaturage ndetse bikaba byagera no ku buzima bwo mu mutwe.

Iki n'icyapa kigaragaza ko tugomba kwita ku buzima bwo mu mutwe bwacu, tukirinda kandi ibyadutera ihungabana, ibyo bikadufasha mu kubaho neza kandi bikadufasha mu gutanga amakuru ku bantu bose batari bazi ibijyanye n'iyi yitwa baho neza, ifasha mu kurinda ibijyanye n'ihungabana ndetse no kurwara...

Abari, mu myaka mikuru, cyangwa se abasheshakanguhe, abana ndetse n'urubyiruk,o twese dusabwa gufatanya kugira ngo twirinde ndetse duhashye, indwara, zifata, ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Uyu umuganura aho ari kubwira abandi bayobozi barimo abashinzwe umutekano ndetse n'abandi ibijyanye n'ubuzima uko buhagaze, by'umwihariko ubuzima bwo mutwe, kandi akaba ari kubaha impanuro bagenderaho kugira ngo babikemure.

Iyi ni inzu icururizwamo ibijyanye n'imiti ivura indwara zitandukanye ikaba yitwa Happiness farumasi ltd.

Iyi ni imiti y'amatungo aho yifashishwa mu kongera umusaruro, by'umwihariko uw'amata ndetse n'inyama, ukaba ukoreshwa ku matungo ariyo: inka, intama ndetse n'inkoko, ikabagafasha kandi mu kongera umusaruro ayo matungo atanga.

Iyi ni inzu irimo imiti yifashishwa mu kuvura, gusuzuma ndetse no kurinda indwara. Iyi ikaba ikoreshwa n'umuntu wabyigiye gusa.

Izi ni inzu rusange zitangirwamo imiti yifashishwa mu kurinda, kuvura ndetse no gusuzuma indwara, zikaba zitangwa ku matungo ndetse n'abantu.

Uyu ni umugabo ukora mu bijyanye no gucuruza imiti yifashishwa mu kuvura, gusuzuma ndetse no kurinda indwara z'abantu.

Ibinini byifashishwa mu kurinda indwara, kuzivura ndetse bigafasha n'abarwayi kugira ngo babeho neza kandi binabafasha mu gutuma ubuzima bwabo bwa buri munsi bugenda neza bibarinda indwara.

Abaturage b'u Rwanda tugomba kwirinda cyane indwara ndetse tukivuza ku gihe, bityo rero hari inzu zabugenewe zicururizwamo imiti tuba tugomba kuzigana mu gihe twumva tutamerewe neza.

Uyu ni umugore aho ari mu iduka ricuruza imiti, rikaba ifasha abaturage mu kubona ibyo bakeneye birimo ibijyanye n'ubuvuzi hafi kugira ngo batazahazwa n'indwa barwaye.

Imiti ni kimwe mu bifasha abantu kubona ubutabazi bw'ibanze kandi bikadufasha kugira ngo tudatakaze ubuzima bitewe n'indwara runaka twaba turwaye, bityo tugomba gufatanya kwivuza hakiri kare kandi tugafasha n'abadafite ubushobozi kubona imiti yabo mu gihe cya nyacyo.

Iyi ni inzu yitwa aderenarine farumasi ikaba itangirwamo imiti yifashishwa mu kurinda, kuvura ndetse no gusuzuma ibijyanye n'indwara z'abantu.

Iyi n inzu rusange aho habikwamo imiti yifashishwa mu kurinda, kuvura ndetse no gusuzuma indwara bigafasha abaturage kubaho ubuzima bwiza batarwaye indwara nyinshi.

Ni inzu rusange aho hakoreshwa habikwa imiti. Ikaba ikoreshwa mu kuvura, kurinda ndetse no mu gusuzuma indwara runaka. Ikaba ikoreshwa n'abantu ndetse n'amatungo.

Abaturage babona imiti bitabavunnye kuko begerejwe inzu zibasha kubaha imiti by'umwihariko mbere y'uko bagera ku bitaro guhabwa izindi serivisi zitandukanye.

Inzu zitangirwamo imiti, zifasha abaturage, mu kwirinda indwara ndetse no kutaremba. Ibi abaturage babyifashisha igihe batarabona ubuvuzi bw'ibanze cyangwa se ubuvuzi bwihariye, babonera ku bigo nderabuzima ndetse n'ibitaro.

Uyu ni umuti uterwa mu buryo bw'imitsi. Ukaba ufasha amatungo mu kubaho neza, ndetse ukaba ufasha mu kurwanya indwara. Uyu ukaba ufashamo amatungo kandi mu gutuma atanga umusaruro mu buryo bwakagombye. Kandigafasha no gutanga imbaraga ku matungo yose.

Kuvugira hamwe ibitagenda neza ndetse n'ibigenda neza ni kimwe mu bifasha abantu gufata umwanzuro kandi bawuganiriyeho, bityo rero twitabire imbwirwaruhame z'abayobozi kugira ngo tubashe kumva ibyo baduteganyiriza.

Iki ni icyapa cy'abanyeshuri, aho bagaragaza ko dukwiye kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana rishingiye ku gitsina. Kandi ibi bikaba bifasha mu kuzamura imyumvire y'abantu ndetse no gutangira amakuru ku gihe, kandi rikaba rifasha mu gufasha abana b'abakobwa ndetse n'abahungu kubaho neza.

Aba ni abakora mu bijyanye n'ubuvuzi, aho bafite ibyapa byanditseho gukoresha agakingirizo, bikaba rero bifasha abantu mu kwirinda indwara zandura zirimo sida ndetse n'izindi zose zandurira mu mibonano mpuzabitsina.

Iki ni icyapa cy'abanyeshuri, kikaba kigaragaza ko bamagana ibijyanye n'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge mu rubyiruko, bikaba bibafasha mu kubaho neza mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ubuzima bw'abantu by'umwihariko abaturage, ni kimwe mu byo tugomba kubungabunga ndetse no gusigasira kandi tugafatanya n'abayobozi bacu baba bifuza ko byagenda neza tukubahiriza inama batugira ndetse tukazishyira no mu bikorwa.

Uru ni urubyiruko aho ruri gufasha mu bijyanye no gukangurira abantu ibijyanye no kwirinda indwara ndetse bakaba bari no gutanga inyigisho ku baturage kandi bakaba bari no guhabwa amahugurwa y'ibijyanye nuko bakwirinda kandi bagakumira ibijyanye n'indwara.

Ibikoresho bya gakondo, ni bimwe mu bifasha abaturage mu kubona umusaruro mwiza, haba ab'ubu ndetse n'aba kera, basheshe akanguhe, urugero nk'imitiba ifasha kubona aho inzuki ziba bityo bigatuma, haboneka ubuki, bwifashishwa nk'imiti ndetse n'ibiryo by'abantu.

Iki ni kimwe mu byatsi byifashishwa mu gukora imiti, hifashishwaga n'aba kera mu kubura ingwara runaka, kandi kikaba gikoreshwa na n'ubu, by'umwihariko ku bantu bo mu cyaro. batabonaho ubuvuzi mu buryo bukwiriye.

Ni ngombwa ko twivuriza ahabugenewe ariho mu bitaro, mu bigo nderabuzima ndetse no kwegera abashinzwe kutuvura by'umwihariko abafasha abana mu nsisiro aribo bita abajyanama b'ubuzima.

Iki ni igihingwa kitwa umuravumba aho cyakoreshwaga n'abantu bo hambere mu kwivura indwara zitandukanye ndetse kikaba gikoreshwa na buri muntu by'umwihariko abatuye mu bice by'icyaro kugira ngo bifuze indwara cyane cyane abatabasha kugera ku bitaro.

Ibi ni ibitaro aho harimo umurwayi ndetse n'umuganga aho bari kumufasha mu kunanura ingingo ze by'umwihariko ingingo z'ibirenge aho bari kumufasha kunanura imitsi.

Imiti gakondo ni kimwe byafashaga Abanyarwanda bo hambere mu kwivuza mu buryo bworoshye, gusa aho tugeze ni ngombwa ko twegera ibitaro kugira ngo duhabwe imiti yabugenewe.

Iki ni ikigo nderabuzima aho bakira abantu baje guhabwa serivisi z'ubutabazi. By'umwihariko: mu kuvura, gukumira ndetse no kurinda indwara kandi bakaba bafasha mu gusuzuma indwara runaka ndetse no kuzitangira imiti

Abaforomo n'abaforomokazi, bagira uruhare runini mu iterambere ry'igihugu kuko barinda abaturage indwara kandi bakabafasha kuzivura, igihe bazananduye.

Abaforomo n'abaforomokazi bagira uruhare runini mu kuvura, gupima, ndetse no mu kurinda indwara. Bityo rero twe nk'ababyeyi, tugomba gufatanya natwe kugira ngo twubahirize ibyo baba badusabye kugira ngo ubuzima bwacu bugende neza.

Ibitaro ndetse n'amavuriro, ni ngombwa ko yegerezwa abaturage kuko tuba dukeneye ahabera, ibikorwa byose by'ubutabazi kandi tukabibonera ku gihe.

Inzego zitandukanye zifatanya mu kugira ngo zirwanye impfu z'abantu, bityo tugomba gufatanya kugira ngo twivuze dufatanyije n'inzego z'umutekano ndetse n'izindi nzego zitandukanye.

Ibitaro ndetse n'amavuriro rusange, ni hamwe mu hakira abantu benshi, bityo haba hagomba kugira isuku, ndetse hakaba hari n'ibikorwa n'izindi serivisi abantu bose bakenera, harimo nk'ibyo kurya ndetse n'aho kuba.

Amavuriro ndetse n'ibitaro ni ngombwa ko hagera ahabugenewe habikwa imiti kuko itabitswe neza byatera ubundi burwayi bwaturuka kuri iyo miti itarabitswe neza.

Iyi ni imiti y'inkoko, ifasha mu kugira ngo zibashe gukura vuba, kandi ikaba yihariye ku bijyanye n'amaporoteyine, ibyo bikaba bifasha amatungo by'umwihariko inkoko, kugira ngo zikure neza kandi zikure zitange umusaruro, by'umwihariko umusaruro ujyanye n'inyama

Ibigo nderabuzima ndetse n'ibitaro bigira aho ababyeyi ndetse n'abarwayi muri rusange baba, aha akaba ariho babonera imiti ndetse n'ibindi bikoresho bakeneye bya buri munsi birimo amacumbi ndetse n'ibindi.

Abaturage barimo abagabo, abagore ndetse n'ushinzwe umutekano ni bamwe bagaragara ahakorerwa ibijyanye n'ubuvuzi by'umwihariko kugira ngo bahabwe imiti yabugenewe bijyanye n'indwara barwayi.

Aba ni abaforomo bafasha abaturage mu kuvura indwara, kuzirinda ndetse no kuzisuzuma, aba kandi bakaba bafasha abaturage mu kubaha inyigisho zatuma baba neza mu buzima bwa buri munsi.

Iki n'icyapa kigaragaza ivuriro, aho hatangirwamo serivisi zitandukanye, zirimo ubuvuzi rusange, ubuvuzi bw'amenyo, gusuzuma ndetse no kubaga ndetse hakaba hatangirwa na serivisi zo kuboneza urubyaro.

Iyi ni imiti y'amatungo aho ihabwa amatungo magufi ndetse n'amaremare, hakaba harimo inka, ihene, intama ndetse n'ibindi, iyi ikaba ifasha mu kuvura indwara ndetse no kuyirinda.

Aha ni ku ishuri aho bari kwigisha abana uburyo bwo gukora isuku binyuze mu gukaraba intoki hifashishijwe kandagira ukarabe, isabune ndetse n'ibase.

Aha ni ku kigo nderabuzima aho ababyeyi bafatira imiti kandi iyi miti ikaba yahabwa ababyeyi ndetse n'abarwayi muri rusange bamaze gusuzumwa bamenye icyo barwaye.